Iki gihingwa ni ibirayi, ibirayi barabihinga, bakabonamo, bikaribwa cyangwa se umuntu akabikuramo ifiriti ,tukabigurisha mu isoko tukabona amafaranga, ikindi ibirayi tubikuramo ibiryo by'amatungo, kandi ikindi ibirayi bivamo amafaranga.

Igitoki umuntu akuramo imineke, iki n'gihingwa kuribwa, kiribwamo imineke, cyangwa se umuntu akakenga akagikuramo inzogera, umutobe ,ariko abandi bahinzi barakigurisha, baba bashaka amafaranga bakabona amafaranga.

Aka ni akanyoni k'amabara umweru n'umukara, gahagaze ku giti. Izi nyoni ziboneka cyane mu mashyamba ariko icyiza cy'izi nyoni abenshi tuziho ko zikurura ba mukerarugendo. Ariko ikindi na none zirya udusimba, ibisimba bikunze kwangiza imyaka yacu. ibi ni ibinyoni byo mu ishyamba.